Umubyeyi yazanye umwana we kumusuzumisha, Umuganga arimo aramusuzuma. Umuganga yambaga agapfukamunwa k'umunwa, yambaye n'itaburiye y'umweru. Arunamye arimo asuzuma Umwana, Umwana yambaye ubusa hejuru. Umubyeyi yicaye hafi y'umwana we barimo bararebana, umubyeyi yambaye ikiremba mu mutwe.

Ni abakinnyi b'umupira w'amaguru, biragaragara ko bahagaze, umwe muri bo yagize ikibazo, aryamye hasi ariko abaganga baje kumuha ubutabazi bw'ibanze, abaganga bambaye amajire y'umutuku, barimo kugerageza kumuha ubuvuzi bw'ibanze, bigaragara ko yagize ikibazo ku maguru.